Kugira isoko y'amazi hafi bituma umuryango ugira isuku bikarinda indwara zikomoka ku mwanda, nk'inzoka, impiswi, indwara z'uruhu n'izindi zikwirakwizwa n'amazi mabi, uyu ni umusingi ukomeye mu kubaka ubuzima buzira umuze, cyane cyane mu bice by'icyaro.

Kunoza uburyo abaturage babona serivise z'ubuzima, kubegereza amazi meza y'isuku, ni intambwe ikomeye mu kurinda indwara ziterwa n'umwanda. Cyane cyane mu bana. Gushyira amariba hafi y'ingo bituma abaturage babasha gukaraba intoki kenshi, bikarinda indwara nk'impiswi n'izindi ziterwa n'amazi mabi.

Uburyo bufasha kumenya uko umwana akura, kubungabunga imirire ye no gukumira ibibazo by'imikurire bitaraba, bishimangira uruhare rw'ababyeyi mu kwita ku buzima bw'abana babo, binyuze mu gupimisha no gukurikiranira hafi uko bakura, gupima ibiro ni igice cy'ingenzi mu gukurikirana imirire y'umwana no gukumira imikurire idasanzwe, ukoresheje ibikoresho bigezweho nk'igipimo cya dijitale.

Intambwe mu kunoza uburyo abaturage bagezwaho serivisi z'ibanze z'ubuzima. Cyane cyane izijyanye n'isuku n'isukura. Kugira amazi meza hafi bituma abantu barushaho kugira ubuzima bwiza, bigabanya indwara zituruka ku mwanda, nka Korera, indwara z'uruhu n'ibindi byago biterwa no kunywa amazi atizewe. Ibi kandi binagaragaza ko serivisi z'ubuzima zigenda zikwira hose, n'abatuye mu byaro bagahabwa amahirwe angana yo kubona ibibafasha kurinda no guteza imbere ubuzima bwabo.

Gufata inkingo ni kimwe mu bikorwa bifatika bigaragaza uburyo abaturage babona serivisi z'ubuvuzi, kandi kigakorwa hubahirizwa umutekano w'uburwayi n'umukozi w'ubu ubuzima gikorwa hifashishijwe inshinge ndetse n'uturindantoki, kikuzuzwa ku buryo bwita ku kurinds isuku no kurinda kwanduza.

Uburyo abana bagaragaza ibyishimo n'umutuzo mu ishuri ni kimwe mu bimenyetso by'uko bafite ubuzima bwiza, ibi biterwa n'uko babonye serivisi z'ubuzima zibegereye zirimo inkingo, ubwisungane mu kwivuza no kubona indyo yuzuye ibafasha gukura neza no kwiga bafite ubushobozi bwo kwitwara neza mu masomo.

Isuku y'ibanze itangirira ku buryo bwo kubika neza ibikoresho bikoreshejwe buri munsi, uburyo bworoheje kandi bwubatse n'intoki ni bumwe mu bigaragaza uko abaturage bo mu bice by'icyaro bifashisha ubushobozi bafite mu kwirinda indwara ziterwa n'umwanda nk'impiswi n'izindi ziterwa n'isuku nke.

Mu rwego rwo kongera ubushobozi bwo kugeza serivisi z'ubuvuzi ku baturage bo mu cyaro, gahunda yo guhugura no gutanga ibikoresho by'ibanze ku bajyanama b'ubuzima igenda itanga umusaruro, abajyanama b'ubuzima bakomeje kugira uruhare rukomeye mu gutanga ubujyanama, gukurikirana imibereho y'abagore batwite n'abana, kurwanya indwara z'ibyorezo ndetse no gutanga ubufasha bw'ibanze mu midugudu yabo.

Mu rwego rw'ubuzima rusange imbogamizi mu kubona serivisi z'ibanze nk'amazi meza, bishobora guteza indwara ziterwa n'isuku nke, nk'inzoka, impiswi cyangwa amavunja, kandi urugendo rurerure rwo gushaka amazi, rutwara igihe cyakagombye gukoreshwa mu bindi bikorwa by'iterambere, ibi byose bishimangira akamaro ko gushyira imbere politiki y'amazi meza n'isuku kuri bose.

Ubushobozi bwa buri muntu kugera ku buzima bufite ireme, butabogamye kandi bujyanye n'ibikenewe by'ubuzima bwe, harimo kwegereza abaturage serivisi z'ubuzima, serivisi zishingiye ku baturage n'umuryango, n'urukingo rutangwa mu buryo bworohereza abaturage, umwana agahabwa serivisi atiriwe ajya kure.

Ibikorwa byita ku buzima bw'abana bato bikaba bigize igice cy'ingenzi mu buvuzi bw'ibanze n'uburenganzira bwo kubona ubuvuzi ku bana bakeneye ubufasha hakiri kare, aho abana bato bitabwaho, haba mu buryo bwo gukingirwa indwara no kuvurwa byihuse.

Kugira amazi meza hafi y'ishuri, ni imwe mu ngingo z'ingenzi mu guteza imbere ubuzima bw'abana kuko bifasha mu kurwanya indwara ziterwa n'umwanda nka amibe n'inzoka n'izindi. Abana bafite uburenganzira bwo kubona serivise z'ubuzima binyuze mu isuku n'isukura. Ni igikorwa gifatika, cyerekana ko ubuzima bw'abana bushyizwe imbere.

Kwigisha no gutanga ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ni igikorwa cy'ingenzi cyane. Bishobora gukorwa mu buryo bw'amahugurwa, ku buryo bwo gufasha abantu bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, kumenya ibimenyetso by'ibibazo by'ihungabana, agahinda gakabije cyangwa izindi ndwara zishingiye ku mitekerereze.

Gukangurira abantu kwita ku buzima bwo mu mutwe ni ingenzi, dushyigikira abarwayi cyangwa mu bikorwa byo kwigisha abantu uburyo bwo kwita ku mutekano w'ibitekerezo n'amarangamutima. Gutanga ubujyanama cyangwa gushyigikira ubuvugizi mu birebana no kwita ku buzima bwo mu mutwe, bikaba ari ngombwa cyane mu muryango Nyarwanda n'ahandi hose mu gukumira ihungabana, agahinda gakabije n'andi makimbirane ashingiye ku bibazo by'imitekerereze.

Ibiganiro rusange ni ingenzi cyane mu kwigisha no gukangurira abantu kugira ubumenyi ku buzima bwo mu mutwe, bikabafasha kumenya uko bafasha abandi, cyangwa uko bakwifasha bo ubwabo.

Ubukangurambaga bugamije gushishikariza abantu kumenya no kwita ku buzima bwo mu mutwe, kumva ko ubufasha bubaho ndetse no kumenya ko abantu bafite ibyo bibazo batagomba gutinya kubivuga cyangwa kubishakamo ubufasha, ni ingenzi. Bishishikariza guhindura imyumvire y'abantu ku birebana n'indwara zifata mu mutwe.

Koza amenyo ni umuco abantu bose bakagombye kugira, cyane cyane yaba ari abakuze, yaba ari abatoya, ni igikorwa cy'ingenzi gikorwa buri munsi kugira ngo bivane imyanda mu menyo ndetse no kugira mu kanwa hagire isuku nzima.

Koza amenyo ni igikorwa cy'ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Kigamije gukuraho ibisigazwa by'iryinyo, gukumira umunuko w'akanwa, kurwanya indwara z'ishinya, cyangwa izindi ziterwa na microbe. Ni igikorwa cyoroheje ariko gifite umumaro ukomeye cyane mu kurinda ubuzima rusange.

Isuzuma ry'amenyo ni ingenzi mu rwego rw'isuku yo mu kanwa, isuzuma nk'iri rigira uruhare runini mu gusigasira ubuzima bw'umunwa, no kurinda indwara nk'impiswi y'ishinya, amenyo yinjiyemo uburwayi, n'ibindi bibazo bishobora kugira ingaruka ku buzima rusange, gukora isuku kenshi, gusukura amenyo neza, no kujya kwa muganga w'amenyo ni bura kabiri mu mwaka, bifatwa nk'ingamba z'ingenzi mu kurwanya no gukumira ibibazo by'amenyo.

Akamaro ko kwita ku isuku y'amenyo binyuze mu kuyoza keshi, kwirinda ibiribwa byangiza amenyo no kujya kwa muganga w'amenyo kenshi, bikaba bishimangira ubuzima bwiza bw'amenyo bugira uruhare mu kugira ubwiza no kumva umuntu yiyizeye.

Isuku y'amenyo no gusura muganga w'amenyo kenshi, ni ingenzi cyane mu kurinda uburwayi no kubungabunga ubuzima bwiza bw'akanwa, cyane cyane mu bana bakiri bato, iri suzuma rifasha cyane mu gutahura ibibazo hakiri kare bikaba byatuma amenyo y'umwana arindwa gusaza vuba cyangwa kuvamo mbere y'igihe.

Mu rwego rw'isuku y'amenyo, gukoresha umugozi w'amenyo ni kimwe mu bigize isuku yo mu kanwa. Uburyo nk'ubu bufasha gukuraho ibisigazwa biba biri hagati y'amenyo, aho uburoso budashobora kugera, bigatuma habaho isuku yuzuye y'amenyo n'ishya ryiza ry'akanwa. Ibi bikaba ari ingenzi mu kurinda amenyo kurwaragurika gukomera ku ishinya ndetse no kurwanya impumuro mbi mu kanwa.

Koza amenyo buri munsi bifasha gukuraho ibiryo bisigaye hagati y'amenyo, no gukumira indwara zishobora gufata amenyo n'ishinya, gutozwa koza amenyo kare bifasha abana kugira ubuzima bwiza bwo mu kanwa, cyane cyane mu mashuri, hagamijwe kongera ubumenyi ku isuku y'amenyo, gutanga uburoso n'ubwoza, no kwigisha abana uburyo bwo kubikoresha neza.

Isuku n'ubuzima bwiza bw'amenyo, bishimangira ukumwenyura kwa kinyamwuga, ibi bigaragaza uruhare rukomeye ubuzima bw'amenyo bugira ku buzima bw'imitekerereze no mu kwigirira icyizere, isuku y'amenyo ni ingenzi mu gukumira indwara zifata mu kanwa.

Ubuvuzi bw'amenyo si ugukura cyangwa gusana gusa ahubwo ni inzira ifasha abantu kwiyumva neza, kwigirira ikizere no kugira ubuzima bwiza, iyo umurwayi agaragaje ibyishimo nyuma yo kwitabwaho, bigaragaza akamaro k'ubuvuzi bw'amenyo mu mibereho rusange.

Kwita ku bantu bakuze si ukubagaburira gusa cyangwa kubaha imiti, ahubwo ni ukubahuza n'abandi, kubereka urukundo no kubongerera agaciro, binyuze mu mibanire ya buri munsi, ni isomo rikomeye ku muryango nyarwanda n'undi uwo ari we wese wifuza gutuma abakuze bagira ubuzima bufite ireme.

Kwita ku buzima bw'abantu bakuze no kubaha ubufasha burangwa n'urukundo bigaragaza agaciro tuba, umwuka wo kwishimira cyangwa kubafasha ni ingenzi cyane mu gukomeza ubuzima bw'abageze mu zabukuru, haba ku mubiri ndetse no ku mutima.

Kwita ku buzima bw'abasheshe akanguhe harimo gufasha abantu bakuze gukomeza kwigenga uko bishoboka, ibi bishobora kujyana no kubafasha kunywa imiti yabo neza kandi ku gihe, kurya indyo yuzuye kandi ibafitiye akamaro, gukora isuku y'umubiri n'imyambaro, gukoresha insimburamubiri niba ari aho bafite intege nke, guhabwa ubufasha bw'amarangamutima no kubahumuriza.

Abakuze bahabwa ubufasha mu byo kurya, kwiyuhagira, kwambara, gufata imiti ndetse no kubakurikirana ku buzima bwabo bwa buri munsi. Uburyo bwita ku basheshe akanguhe burangwa n'impuhwe, isuku ndetse n'imyitwarire yihariye igamije kubafasha kugira ubuzima bwiza, no gukomeza kwigirira icyizere mu gihe imyaka yabo iba yarakuze.

Ibikorwa bigamije kwita ku buzima bw'abantu bageze mu zabukuru, harimo ubuvuzi, ubujyanama, ubufasha mu mibereho ya buri munsi, no kubaha umwanya n'ijambo mu muryango Nyarwanda. kwitabira ibikorwa nk'ibi bifasha mu kubarinda kwiheba, bakagira ubuzima bufite intego kandi bwuzuye, muri ibyo bikorwa harimo gahunda zo gukomeza umubiri, kuganira no gusabana.

Mu bikorwa by'ingenzi mu mibereho y'abantu bakuze gukora imyitozo ngororamubiri yoroheje nko kugenda n'amaguru ni bumwe mu buryo bwiza kandi bworoshye bwo gufasha abasheshe akanguhe gukomeza kugira ubuzima buzira umuze. Bifasha mu kurwanya indwara zifata abakuzi kenshi nk'umuvuduko w'amaraso n'indwara z'umutima. Binongerera imikorere y'ubwonko, bikagabanya ibyago byo kurwara indwara nko kwibagirwa.

Kugaragaza ko ushobora kwifatira imiti mu buryo butekanye ni igice cyerekana ko ufite ubushobozi bwo kwiyitaho, ariko binashobora kugaragaza ko ukeneye ubufasha cyangwa ubukangurambaga mu gukurikiza gahunda y'imiti. Cyane cyane abageze mu zabukuru baba bakeneye gukurikiranwa bya hafi ku bijyanye n'imiti bafata, kuko baba bafite indwara zikenera imiti ya buri munsi nk'umuvuduko w'amaraso cyangwa indwara z'impyiko.

Kwitabwaho mu buryo burambye bitewe n'imiterere y'imyaka cyangwa uburwayi, nk'indwara z'amagufwa, indwara z'ubwonko cyangwa intege nke z'igihe kirekire, ni ingenzi mu kongerera abageze mu zabukuru icyizere, umutekano, n'ubuzima bwiza.

Abarwayi bakuze bahabwa ubufasha bwita ku buzima bwabo; harimo isuzuma ry'umutima, impinduka zishingiye ku myaka n'izindi ndwara zibasira abasheshe akanguhe. Iyo umuganga yicaye ku rwego rumwe n'umurwayi, bigaragaza ubufatanye, icyizere no kumva ko umuntu ukuze agomba kwitabwaho neza hatitawe ku kigero cy'ubukure.

Muri serivise zita ku buzima bw'abakozi, ni byiza kuba abasheshe akanguhe bamenya uko bahagaze, binyuze ku muganga aho yerekana ibiri ku rupapuro, cyangwa kuri dosiye, agaragaza ko hari amakuru yafashwe, agasuzumwa, hanyuma agakoreshwa mu gufata icyemezo kijyanye n'ubuvuzi.

Ubuzima bufite ireme ku bantu bageze mu zabukuru harimo kubafasha mu mirire isuku kugabanya agahinda no kubafasha kugira uruhare mu buzima bwabo, kwita ku bakuze bisaba kwihangana ubumenyi bwihariye n'ubumuntu, guha ubufasha abasheshe akanguhe ntabwo ari ugutanga imiti gusa ahubwo no kubafasha mu buzima bwa buri munsi, kubatega amatwi, kubaba hafi mu buryo bw'umubiri n'amarangamutima.

Icyiciro cy'abantu bageze mu kigero cy'ubukure aho baba bafite ibyago byo kugira indwara z'igihe kirekire, nk'umuvuduko w'amaraso cyangwa indwara z'imitsi n'ingingo, kwita kuri abo bantu bisaba ubufatanye buhoraho n'ubwitange bw'abarwayi, inshuti n'abaganga babitangiye.

Mu buzima bw'abageze mu zabukuru, bakeneye ubufasha bwo kugenda bagaragiwe n'undi muntu, ushobora kuba umuforomokazi, umukozi wo mu rugo cyangwa umufasha wihariye mu kwita ku bantu bakuze. Ni igice cy'ingenzi mu rwego rw'abasheshe akanguhe, aho bashobora kugira intege nke, imbogamizi z'imyanya y'ingingo cyangwa ibibazo by'ubuzima rusange, bikabagora kwigenga.

Imyitozo ngororamubiri ni igice cy'ingenzi mu kurinda indwara z'izabukuru, nk'umuvuduko w'amaraso n'indwara z'imitsi n'ingingo, bifasha mu guhorana akanyamuneza, kurwanya guhangayika, guhangana n'ubwigunge mu bantu bakuze, bigaragaza kandi no kwita ku bantu bakuze atari ukubagura iruhande gusa, ahubwo harimo no kubashishikariza ubuzima bufite intego n'ubushobozi.

Guteza imbere Politiki z'ubuzima zishingiye ku gukangurira abantu kumenya no kubona serivisi z'ubuvuzi zihariye ku ndwara nka SIDA, Igituntu na Malariya ni ingirakamaro mu byiciro by'ibihugu bikennye n'ibifite ubukungu buringaniye, aho usanga hakiri imbogamizi mu kubona imiti n'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, ibi bigaragaza ubushake bwo gushyiraho ingamba zifatika n'imikoranire hagati y'Imiryango Mpuzamahanga.

Guhashya no gukora ubukangurambaga ku ndwara zitandura nk'umutima, kanseri, n'indwara z'ubuhumekero, n'izindi zikomeje kwiyongera kandi zifite ingaruka zikomeye ku buzima rusange ni ingenzi. Mu ibikorwa byafasha mu kuzikumira, harimo gushyira imbaraga mu bushakashatsi, uburezi ku buzima, no gufasha abaturage kumenya ibimenyetso byazo hakiri kare.

Igikorwa cyo gukangurira abantu ku bijyanye no gukoresha agakingirizo mu rwego rwo kwimakaza politiki y'ubuzima rusange yo kurwanya SIDA, ni igikorwa cyerekana uko abakangurambaga bafasha gushyira mu bikorwa gahunda za politiki zitandukanye z'ubuzima mu baturage by'umwihariko urubyiruko.

Ubumenyi n'ubushishozi ku ndwara z'ubwonko mu Rwanda, ni uburyo bujyanye n'ingamba za politiki y'ubuzima, ni igikorwa kigamije gushyira mu bikorwa politiki yo gukumira, kurwanya, hanakorwa ubukangurambaga ku ndwara zidakira harimo izifata ubwonko.

Ibikorwa bifasha mu gutabara abarwayi bakeneye amaraso igihe cyose nk'ababyeyi babyara bagatakaza amaraso menshi, impanuka cyangwa abarwayi ba kanseri n'indwara z'amaraso, bikangurira abantu gutanga amaraso binyuze mu bushake kandi ni ingenzi mu kubaka sisitemu y'ubuvuzi ikora neza kandi irengera ubuzima bwa benshi.

Mu cyumba cy'imyitozo ngororamubiri, habamo imashini zitandukanye zifasha mu kongera imbaraga, kugabanya ibinure no kurinda indwara z'umutima. Aha kandi hashobora no gukoreshwa n'abaganga, bagorora ingingo bavura, banakosora abarwayi binyuze mu myitozo yihariye.

Kwipimisha kugirango ngo umenye aho uhagaze ni ngombwa kuri buri kiremwa muntu, biba byiza iyo bikorewe mu cyumba cyabugenewe aho umuganga yita ku murwayi n'ibikoresho akoresha bikagaragaza isuku, mu mutekano, n'ubunyamwuga, byose byongera ikizere cy'umugana ku murimo akorerwa, ibi byose bifasha mu gukumira no kuvura indwara hakiri kare ari nabyo bituma ubuzima bw'abantu burushaho kuba bwiza kandi burambye.

Inyubako z'ubu zubatse hagamijwe gutanga ubuvuzi bwihuse kandi bufite ireme. Ibigo nderabuzima, bifite aho bakiriwe abarwayi, hakeye kandi hifashisha ikoranabuhanga. Bituma abaturage bagira uburyo bworoshye kubona ubuvuzi bufite ireme.

Amavuriro yihariye atanga serivisi zita ku buzima bwo mu mutwe ni ingenzi cyane, aho atanga ubufasha mu gutanga ubuvuzi bw'igihe kirekire ku barwayi bafite ibibazo byo mu mutwe, inama n'ubujyanama, ndetse n'ubuvuzi bwifashisha imiti.

Ibyumba by'ubuvuzi cyangwa ibigo by'ubushakashatsi bikorerwamo ibikorwa bitandukanye bijyanye n'isuzuma ry'imiti cyangwa ibinyabutabire. Harimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu igenzura birimo amashashi y'ibikoresho, ibirahuri n'utubati tubitsemo imiti ndetse n'utwuma twifashishwa mu buhanga. Uwinjiramo ategetswe kwambara impuzankano n'uturindantoki tujyanye na ho.

Serivisi zirebana n'imyitozo zishobora kuba mu gice cy'ingenzi cy'ubuvuzi bwo kwirinda indwara no gufasha abarwayi kongera kugira ubuzima buzira umuze. Bimwe mu bikoresho bitandukanye by'imyitozo ngororamubiri birimo imashini zo kwirukiraho, izifasha mu kuzamura umutima no gutwika ibinure. Hamwe n'ibikoresho byo kongera imbaraga z'imikaya.

Ahakirirwa abarwayi bato hagaragaza uburyo bwo gutanga serivisi z'ubuvuzi mu buryo butuma umwana yumva afite agaciro, kandi yitabwaho mu buryo bumworohereza, ibi bituma abana bagira umutuzo n'umutekano mu gihe baje kwa muganga, bigafasha mu kugabanya ubwoba bashobora kugira.

Kongera amazi mu mubiri bihabwa agaciro gakomeye, kuko bifasha gukomeza ubushobozi bw'umuntu, kurinda umunaniro ukabije no gukumira ikibazo cy'ihindagurika ry'ubushyuhe bw'umubiri. Amazi yitabira gutwara intungamubiri n'umwuka mu maraso, bikaba bifasha mu mikorere y'umutima, ubwonko, imikaya, n'amatembabuzi y'imbere mu kiremwa muntu.

Ibikoresho bifasha mu myitozo yita ku mikaya, igamije gukumira imvune cyangwa kugabanya igihe cy'uburwayi bwazo, ni igice cy'ingenzi mu rugendo rwo gusubiza umukinnyi ku rwego rwiza rw'imbaraga, nyuma yo kugira ikibazo cy'imitsi cyangwa ingingo.

Imyitozo yihariye igamije gufasha umubiri gukomera no kwirinda imvune, ndetse no gusubira mu buryo nyuma y'imvune, ikoreshwa cyane mu kongera ubushobozi bw'abakinnyi, harimo kugabanya ibyago byo kongera kuvunika, gukurikiranira imikorere y'umubiri mu buryo bw'ikirenga n'ibindi.

Uburyo bwo gushyira ubukonje ku bice byakomerekejwe ni igice kimwe cy'ubutabazi bwihuse. Bugira uruhare mu kugabanya ububabare, kugabanya imivuduko y'amaraso no gukumira kubyimba. Ibi bishobora gukorwa mu rugo cyangwa ahandi hantu umuntu yihutira gufasha umubiri we, mbere yo kubona ubufasha bwisumbuyeho mu rwego rw'ubuvuzi.

Abantu bakuze bakunze guhura n'indwara zifata ingingo cyangwa imvune zituruka ku guta imbaraga, gusuzumwa k'umubiri bifasha mu kumenya aho ikibazo kiri, urugero nko kureba niba hariho kubabara cyangwa kugenda nabi no gukomereka ku ingingo.

Kugira ubuzima bwiza bisaba guhuza imyitozo ngororamubiri, kurya indyo yuzuye, kwirinda indwara binyuze mu isuku no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ndetse no gukoresha ibikoresho byongera ingufu igihe bikenewe kandi byemewe n'inzobere. Ni ubutumwa bushishikariza abantu kwita ku buzima bwabo, mu buryo bw'ingenzi butandukanye kandi bwuzuzanya.

Mu myitozo yose, kugira ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze, birimo imiti n'ibikoresho bikenerwa ako kanya, ni ingenzi cyane. Ibikoresho bigizwe n'ibipfuku by'aho abakinnyi bakomeretse, ibipimo by'ubushyuhe, imiti igabanya ububabare n'ibindi n'ibindi.

Imyitozo yo kurambura imitsi igamije kuyigira iyoroshye, biyirinda imvune no gufasha umubiri gukora neza. Ikoreshwa cyane n'abantu bakunze kuba bicaye, ndetse n'abakuze barayikenera. Bifasha kongera ubworoherane bw'umubiri no kuruhura imitsi. Kuyikora neza bituma umuntu agira ubuzima buzira umuze, kandi akagira ingingo zinyeganyega neza.

Imyitozo ifasha cyane mu kongera ubudahangarwa bw'imitsi yo mu maguru, no kongera uburinganire bw'umubiri, iyo ikoreshwa neza ituma umukinnyi agira ubudahangarwa ku mvune zisanzwe ziboneka mu mikino yihutirwa cyangwa igira ingaruka ku ngingo, nk'amavi, n'inkokora.

Kwita ku buzima binyuze mu masomo y'imyitozo ngororamubiri, ni ingenzi. Bitanga uburyo bwo kugenzura uko umutima, imitsi n'imikaya bikora neza, kunywa amazi no kuruhuka nyuma y'imyitozo kugira ngo umubiri usubirane imbaraga, ni yo myitwarire igaragaza imikurire y'umuco wo kwita ku buzima biciye mu myitozo, no kwirinda umwuma.

Kunywa amazi mu buryo buhoraho, bifasha umubiri gusubirana amazi aba yatakaye, binyuze mu myuka, ibyuya, no mu musaruro w'umubiri. Iki gikorwa gifasha kandi, gukomeza imikorere y'imikaya, ndetse no gukumira imvune zituruka ku kurambirwa. Ni ingenzi cyane mu gihe cy'imyitozo myinshi cyangwa ikirere gishyushye.

Mu bintu bibiri by'ingenzi bifasha mu buzima bwiza, harimo indyo yuzuye n'imyitozo ngororamubiri, ku ruhande rumwe ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zirimo imbuto zitandukanye, imboga, amagi, inyama, n'ibinyampeke, ibi byose bifasha umubiri kugira imbaraga no kubaka ingirabuzima ziwurinda indwara, ku rundi hari ibyifashishwa ku kugorora ingingo nk'ibikoresho byo gufata no guterura, amazi yo kunywa n'ibindi.

Kunywa amazi bihabwa agaciro nk'umwe mu myitwarire ikomeye yo gufasha umubiri kugumana ubushobozi bwo gukora neza, kwirinda umwuma no kugabanya ibyago byo kugira ikibazo cy'imikaya cyangwa izindi ndwara zijyanye n'imyitozo. Iyo umubiri ubuze amazi ahagije, ushobora kugabanya imbaraga, gutera k'umutima vuba no kugira imvune zoroheje cyangwa zikomeye.

Kwita ku mirire iboneye, gukora imyitozo ngororamubiri, no gukurikirana ibiro by'umubiri, ni urugero rwiza rugaragaza isano riri hagati yo kwiyungura imbaraga, imirire n'isuku. Bimwe mu by'ingenzi bifasha mu gukumira indwara no guteza imbere ubuzima rusange bw'abantu, harimo kunywa amazi meza, imbuto zirimo indimu, kiwi, pome, n'inkeri, hamwe n'uruziga rw'ipimisho ry'ibiro.

Ubufasha bwihariye bwo kugarura imbaraga ni ingenzi cyane, aha harimo ibikorwa bifasha mu gukomeza k'umubiri, kwirinda imvune zikomeye ndetse no kongera icyizere cy'umukinnyi ku kibuga, si ugukiza imvune gusa ahubwo ni ugusubiza umukinnyi ku rwego rwiza kurushaho.

Gusuzuma ibice by'umubiri bikunda kwangirika nk'amavi ni ingenzi cyane kugira ngo hamenyekane uko umukinnyi yakomeretse, uko yahabwa ubuvuzi bukwiye ndetse n'uburyo bwo kumufasha kugaruka mu kibuga vuba kandi afite ubuzima bwiza. Ibi bifasha kandi mu gukumira imvune zishobora kongera kugaruka igihe umukinnyi atavuwe neza.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha mu kurinda imvune ziterwa no gukoresha umubiri cyane, by'umwihariko ku bakinnyi cyangwa abantu bakora siporo kenshi, ubu ni uburyo bwimeje mu gufasha no gutegura imikaya.

Gushimangira akamaro ko kunywa amazi cyane cyane mu gihe cy'ubushyuhe cyangwa nyuma y'imyitozo ngororamubiri, amazi ni ingenzi gufasha umubiri gukora neza, kurinda umwuma no gukomeza gusohora imyanda, abantu bashishikarizwa gukomeza kunywa amazi ahagije kugirango bagire ubuzima buzira umuze.

Mu bikorwa byo kwiyungura ubushobozi, uturindantoki dufasha abakinnyi n'abakora imyitozo ngororamubiri kwirinda imvune zituruka ku gukoresha intoki cyane, nk'igihe baterura ibyuma, batwara amagare, cyangwa bakora indi myitozo iremereye. Bibarinda ibikomere, nk'ibiheri, gukomereka, cyangwa gusya uruhu. Uretse kwirinda, bibafasha mu kongera umusaruro no gutuma imyitozo ikorwa neza, bityo bikagira uruhare rukomeye mu gusigasira ubuzima bw'umukinnyi.

Ubuvuzi bwa gakondo bushingiye ku bumenyi bwatanzwe n'abasokuru, bwibanda cyane mu miryango, aho hakorwa imiti yoroheje yifashishwa n'abantu batabashije kugera kwa muganga, cyangwa bayifata nk'inyongera ku miti ya kizungu, hagamijwe gukiza indwara zitandukanye nk'indwara z'uruhu, izo mu nda, umunaniro ndetse n'inzoka.

Igikakarubamba kizwiho kurinda uruhu ndetse no kuruvura igihe rwangiritse, mu gihe igikakarubamba gikoreshwa cyane mu buvuzi gakondo, bwo mu rugo kubera ubushobozi bwacyo bwo gukiza inkovu, ibisebe n'imvuvu.

Gutunganya imiti gakondo hakoreshejwe ibimera, harimo ibikoresho bya kinyarwanda nko kuvuza no gusya ibimera bifite akamaro mu buvuzi mu bitunganywa, harimo ibisheke, imizi, amafunzo n'indabo zitandukanye biri ku isakaro byose bifite uruhare mu kuvura indwara zitandukanye nk'umutwe, umwijima cyangwa gufasha mu igogora.

Mu buvuzi bwa Kinyarwanda imiti ya gakondo ikoreshwa mu gusubiza umubiri imbaraga igihe umuntu ananiwe, afite umunaniro ukabije cyangwa ashaka kongera amaraso. Akenshi iyo miti ikoreshwa itunganyijwe mu buryo butangiza intungamubiri. Aho bumira igiti cyangwa ikimera runaka, bakagikungahaza, bakagisya, bakagihindura ifu, hanyuma bakakibumbamo nk'uduce dutoya tumeze nk'utunini.

mu buvuzi bw'umuco gakondo amababi n'imizi by'urumogi byavuraga ububabare bukabije birimo: kuribwa mu ngingo, kuribwa mu nda cyangwa ibikomere. bigakorwamo kandi amavuta cyangwa umusuru wakoraga nk'ibiribwa cyangwa wanakwisiga ku mubiri bigafasha mu koroshya ububabare no kugabanya imihangayiko

Ibikoresho gakondo bikunze gukoreshwa mu buvuzi bwa kinyarwanda no mu yindi mico gakondo, harimo ibimera bitandukanye, imbuto, imizi n'ibyatsi bikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye binyuze mu buryo busanzwe hatarimo imiti mvaruganda.

Ubuvuzi bwa kijyambere n'ubusanzwe bushingiye ku bimera bwatejwe imbere, bishobora gusobanura ko imiti ikomoka ku bimera yagiye itunganywa ku buryo bugezweho kugira ngo ikoreshwe mu buryo bwizewe kandi bubungabunga ubuzima, ibibabi bikoreshwa nk'inkomoko y'inyongeramusaruro cyangwa imiti gakondo yagiye itunganywa ikaba udupfunyika tw'imiti tworohereza abarwayi kudufata, kudukurikirana no kutugabanya mu rwego nyarwo.

Imiti ya gakondo igiye ifite amazina atandukanye, harimo iyitwa umwenya cyangwa umusogongero, ikaba ikungahaye ku ntungamubiri n'imyunyungugu, ikunze gushyirwa mu cyayi cyangwa mu biryo kugira ngo bitange impumuro nziza no gufasha mu igogorwa.

Ubuvuzi bw'umuco ni bumwe mu buryo bukoreshwa cyane, aho bita ku ndwara n'ibibazo by'ubuzima, hifashishijwe ubumenyi n'imico y'abantu b'akarere runaka, ishingiye ku bimera, ibisigazwa by'inyamaswa, n'andi masoko karemano, ubu buvuzi bushimangira isano hagati y'umubiri, umutima n'umwuka, ndetse bukunze no gushingira ku masengesho n'imiti y'ibimera.

Ubuvuzi bwa gakondo nabwo bufite uruhare rukomeye mu guhangana n'indwara by'umwihariko mu bice bidafite uburyo buhamye bwo kubona serivise za muganga za kijyambere, aho imwe muri iyo miti gakondo ikoreshwa cyane mu kuvura indwara z'imbere, indwara zifata urwungano ngogozi harimo amibe, igifu ndetse n'impyiko.

Ibimera bikunze kuba bifite ibisigisigi, amababi, imizi cyangwa imisusire ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye nk'indwara z'uruhu, imbabura n'imihaha no kugabanya uburibwe ndetse no gukiza ibisebe. Imizi cyangwa amababi y'ibimera akenshi ashyirwa mu mazi agatekwa cyangwa agakamurwa, agakoreshwa nk'icyo kunywa cyangwa icyo kwisiga bitewe n'indwara.